Iyo ukomeje ukagenda mu mujyi wa Nyagatare, usanga hariyo abantu bakora ubucuruzi butandukanye, aho bamwe baba bacururiza imineke, abandi babika bakanabikura n'amafaranga.

Imiyoboro y'itumanaho nka MTN ifasha abantu kubitsa, kohereza no kubikuza amafaranga, aho umuntu aba atari kumwe n'undi ariko akamwoherereza amafaranga kuri telefone ye na we akayabikuza.

Nta muntu ukibika amafaranga mu ihembe cyangwa se ahandi hantu nko mu mufuka, ahubwo amafaranga abantu bayabitsa kuri telefoni, bagera ku mu agenti wa MTN bakayabikuza bakayatwara.

Ibigo by'imirongo y'itumanaho nka Airtel bifasha kohereza ndetse no kubikuza amafaranga ku muntu, ukeneye uwo ari we wese, n'ukuvuga yuko ushobora kohereza cyangwa se ukakira amafaranga binyuze kuri uwo muyoboro wa Airtel.

Iyo ushatse kubitsa cyangwa se kubikuza amafaranga, bigusaba kujya kureba umu agenti. Ni umurimo rero woroshye cyane urubyiruko ruri gukoresha muri iyi minsi.

Abahinzi iyo bibumbiye mu matsinda, usanga bafashe agace runaka, bakagahingaho igihingwa kimwe ku buso bunini, aribyo bita guhuza ubutaka, ibingibi bituma babona umusaruro uhagije.

Ibigori bigira umusaruro mwinshi cyane, iyo abantu bibumbiye mu matsinda bagahingira hamwe bagafumbira, bagira umusaruro utubutse ukomoka ku bigori.

Umuyobozi iyo ari gukora inama ahagarara imbere agafata mikoro yarangiza agatangira kuvuga imbwirwaruhame ye kugira ngo abaje mu nama bamutetege amatwi bamwumve.

Mu muyoboro w'itumanaho wa emuteyeni umaze gufata indi ntera mu Rwanda ndetse no mu bindi bice by'Akarere ka Nyagatare muri rusange aho usanga harateye icyitwa mobile mani aho umuntu abikuza amafaranga ya emutiyeni afite kuri telefoni.

Iyo umuntu yakoze ibikorwa by'ubutwari bamuha ikemezo k'ishimwe aho aba afite impamyabushobozi mu bintu yakoze kuko aba yarabiherewe uburenganzira n'abandi.

Ubworozi bw'inka bwa kijyambere, butanga umukamo utubutse ,aho abashumba bakama amata ahagije, bakayasakaza ku makusanyirizo kugira ngo n'abandi bayakeneye badafite inka bayagure.

Usanga mu tubari haba hari inzoga y'amoko atandukanye. Iyo amacupa ashizemo inzoga bayarambika ahantu kugira ngo azongere asubizwe ku ruganda nibarangiza bashyiremo izindi nzoga.

Iyo winjiye mu tubyiniro ndetse n'utubari usanga harimo amoko atandukanye y'inzoga. Abantu bemerewe kunywa izo nzoga ni abantu bari hejuru y'imyaka cumi n'umunani.

Iyo ugiye kwaka serivisi mu kabari ugakenera aho kwicara usanga ari ahantu hasukuye cyane, hari intebe ,ameza ndetse bisukuye cyane kandi biteguye ku buryo kuhicara uba wumva uguwe neza.

Utubyiniro ndetse n'utubari ni ahantu abantu bagenda barangiza bakagurira igihugu. Haba hateguye neza hari intebe, hari ameza ku buryo umukiriya iyo ahageze ahita yicara.

Utubari n'utubyiniro usanga iyo bigeze mu masaha y'ijoro ari bwo abantu baba bishimye cyane kuko baba bacanye amatara bagatangira kubyina bakizihirwa.

Utubyiniro ndetse n'utubari dutandukanye, usanga dusa nk'aho duteye imbere, aho usanga dufite inzoga z'amoko yose atandukanye, inzoga za Bralirwa, inzoga za Skol ndetse n'izindi nganda zose zikora inzoga, ugasanga muri utwo tubari n'utubyiniro zirahari.

Abacuruzi bacuruza ibiribwa bagira uruhare mu iterambere ry'Igihugu baba bacuruza ibintu bitandukanye nk'umuceri, amavuta, akawunga ndetse n'ibindi biribwa, bagira uruhare mu iterambere ry'Igihugu kuko batanga imisoro.

Amagi ,amafu ,karoti ,ibitunguru ,ibirayi ,umuceri, akawunga ndetse n'ibindi n'ibicuruzwa bimwe na bimwe tugenda dusanga ahantu muri botike zitandukanye.

Iyo ugeze mu isoko usangayo ibintu bitandukanye. Usangayo imyenda abantu bambara, ugasangayo imikeka abantu bicaraho, ugasangayo amagodora abantu baryamaho.

Amasoko hirya no hino acuruza imyenda yateye imbere, aho iyo ugeze mu iryo soko uhasanga: inkweto za bodaboda, imikeka, imyenda ndetse n'ibindi byose bitandukanye byambarwa, harimo nk'amashuka ndetse n'ibindi.

Iyo ukeneye ibiribwa udashaka kujya kurangura ibintu byinshi, bigusaba y'uko ujya kuri bolitique ikwegereye. Iyo politike ikwegereye akenshi usanga haba hari ibiribwa nk'umuceri, akawunga ndetse ni.

Muri butike haba harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'amavuta, ibiribwa ndetse n'ibindi byose bitandukanye, kandi ibyo byose biba bifite igiciro cyabyo. Ubucuruzi ni kimwe mu bintu bizamura ubukungu ndetse n'iterambere by'agace runaka.

Abantu benshi bakunda kujya gusengera ahantu mu nsengero kuko niho bagera bagasanga hari ibyishimo ndetse bagatekereza no ku Mana, ari ko baba bemera y'uko yabaremye.

Usanga mu bice by'ibyaro, hari insengero abantu basengeramo. Mu rwego rwo kwiyegereza imana, usanga insengero zarubatswe hirya no hino mu gihugu, aho abantu bajya gusengera imana.

Igihugu cy'u Rwanda cyiganjemo ubukirisitu cyane cyane itorero rya Kiliziya Gatulika aho usanga abapadiri bakwirakwiza inkuru nziza hirya no hino abaturage barangiza bagatura amafaranga ariyo yifashishwa bari kubaka ibikorwa remezo bya kiliziya.

Amahoteli atandukanye usanga afite n'amacumbi y'abakiriya. Niyo mpamvu rero usanga hari uburiri busashe neza kandi hari n'isuku ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu baharyama baba bisanzuye.

Mu mahoteli habamo imitako itandukanye, muri iyo mitako dushobora gusangamo uduseke twumuco, tugasangamo n'ibindi byinshi bituma umuntu arara ari kureba ibintu byiza cyane.

Inyama ndetse n'ibindi byose bikomoka ku matungo usanga ari ibiribwa biba bikunzwe n'abatari bakeya kuko bigira intungamubiri zitandukanye arizo zituma abantu bakura mu gihagararo ndetse no mu mitekerereze.

Hoteri ni inyubako nini iba yagutse cyane aho usanga imbere yaho haba hari ikibuga baparikamo imodoka, iyo baziparitse bahita bajya mu nzu indani.

Muri hoteri baba bafite amafunguro y'ubwoko butandukanye, haba hariyo ibijumba hari umuceri haba hari inanasi hariyo n'andi mafunguro atandukanye ku buryo ifunguro ryaho riba ryujuje ibisabwa.

Hoteli igomba kuba ari inzu nini kandi yagutse ku buryo iba yakira abantu benshi. Usanga kandi hariho imirasire y'izuba itanga ingufu ikoreshwa iyo umuriro w'amashanyarazi wagiye.

Iyo ugiye kwaka icumbi ahantu muri hoteri, usanga aho hantu hari isuku yo ku rwego rwo hejuru, usanga ibitandabisashe neza n'amashuka y'umweru, kandi ayo mashuka akaba asukuye.

Hotel igira pisine. Pisine abantu niyo bogeramo iyo bagiye gucumbika muri hoteli, cyangwa se bagiye kwishimishayo bajya muri pisine iba ihari bakoga.

Mu masoko aciriritse usanga bacuruza inkweto zifunze, iyo umukiriya aje kugura izo nkweto bisaba y'uko amanza agakuramo izo yambaye maze akigera izindi nshyashya agiye kugura zamukwira akazishyura agataha.

Iyo ugenda mu mijyi ugenda uhura n'abantu bakora ubucuruzi buciriritse, nk'urugero ugahura n'ababyeyi baba bacuruza imyenda ariko bakaba bayigendana mu ntoki ari byo bita ubuzunguzayi.

Iyo ugiye kure y'umugi usanga hakorerwa ubucuruzi buciriritse, kandi bukorerwa no mu mazu aciriritse. Nk'urugero usanga hacuruzwa amakara, ibidomoro, ndetse n'ibindi ukabona hari akajagari.

Ubworozi bw'ihene ni ubworozi butanga amafaranga aho umushumba wazo aba azoroye kugira ngo azage azijyana ku isoko azigurishe, abazikeneye na bo bamuhe amafaranga bitume yiteza imbere.

Iyo abahinzi bamaze gusarura imyaka yabo nk'ibigori baba bafite ahantu bayihunika kugira ngo igihe bayikenereye bayijyane mu isoko nibarangiza kuyigurisha bakemure ibibazo bafite byerekeranye n'amafaranga.

Mu masoko atandukanye hirya no hino usanga haba hari abantu bakora ubucuruzi buciriritse, nk'urugero ugasanga umuntu acuruza imyenda ya caguwa.

Intama ni amatungo yororwa, aho abayorora baba bafite intego zo kuyajyana ku isoko bakayagurisha kugira ngo babone amafaranga biteze imbere, bazamure imiryango yabo ndetse n'Igihugu muri rusange.

Amabasi, imigozi, imyeyo, ibikapu, ni ibicuruzwa bitandukanye ushobora gusanga mu isoko rya Nyagatare, ibicuruzwa impamvu bihaboneka nk'amabasi ni uko abantu baho bakunda gukaraba bakagira isuku.

Ahantu hirya no hino kure y'umujyi haremera isoko, uba usanga hari ibikoresho bitandukanye urugero uhasanga nk'amezaeza ariyo batandikaho imboga, ukahasanga imashini ari zo abantu baza kudodeshaho imyenda.

Ahantu hari amazu menshi, ubu usanga hari urujya n'uruza rw'abantu baturuka mu isoko, abandi bajyayo, ugasanga buri gihe hahora akajagari kubera yuko abantu baba baturuka mu isoko, abandi bajyayo.

Amasoko acuruza ibiribwa haba harimo: inyanya, intoryi, indagara, imiteja, ibitoki ndetse ababukora na bo baboneramo amafaranga ahagije yo kwitunga no gutunga imiryango yabo.

Abantu batwara amapikipiki, usanga bariteje imbere kuko buri munsi baba batwara abantu bo mu agace kamwe babajyana ahandi, bakabishyura.

Mu bwikorezi aho abantu baba batwaye ibicuruzwa babivana mu gace kamwe babijyana mu kandi cyangwa se batwaye abantu, usanga hakunze kwifashishwa n'amagare aho abatwaye ibicuruzwa abi mu gace kamwe abijyana kandi.

Ibinyabiziga nk'amapikipiki usanga bigira uruhare rukomeye mu gutwara abantu n'ibintu, iyo umuntu afite ibikoresho byinshi atumaho umuntu utwara ipikipiki yarangiza akabimugereza aho ashaka.

Iyo ugeze mu mujyi uciriritse nk'umujyi wa Nyagatare, usanga mu mihanda harimo ibinyabiziga. Muri ibyo binyabiziga twavuga nk'ipikipiki. Aho umuyobozi w'icyo kinyabiziga aba ari gushakisha abagenzi atwara kugira ngo abone amafaranga yo kwifashisha mu minsi ye ya buri munsi.

Abamotari batwara amapipiki usanga hirya no hino bari kujya gushaka abantu batwara, kugira ngo abo bantu babahe amafaranga, ubwikorezi bw'abantu n'ibintu usanga bugira umumaro ku iterambere ry'iterambere.

Umuhanda wa kaburimbo, uba ugenderamo ibinyabiziga bitandukanye; nka moto, imodoka ndetse n'amagare. Ibyo binyabiziga bikaba biba bitwaye abantu ndetse n'ibicuruzwa baba baturuka mu gace kamwe bajya mu kandi.

Abatwara ibinyabiziga nk'amapikipiki usanga bakubwira yuko bivamo amafaranga menshi, kuko iyo umuntu ashaka gukora urugendo rurerure, ajya gutega ipikipiki kandi akishyura amafaranga menshi.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu usanga bukorwa na bimwe mu binyabiziga nk'amapikipiki, imodoka, amagare ndetse n'ibindi, ubwo bwikorezi bugira uruhare runini mu iterambere ry'ababukora.

Abanyonzi baba bafite amagare akomeye, ubwo baba bayahagaritse ahantu mu nzira kugira ngo barebe yuko nta mugenzi babona ngo bamutware bamugeze iyo agiye.

Mu mihanda haba hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare, imodoka, amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye biba bitwaye ibicuruzwa ndetse n'abantu.

Ibinyabiziga nk'amapikipiki usanga ari ibinyabiziga bikunze gutwara abantu. Abayobozi rero b'ibyo binyabiziga by'amapikipiki, babona amafaranga ku rwego rwo hejuru bakiteza imbere.

Imodoka zigira umumaro cyane zitwara abantu kandi abo bantu baba bagiye ku mirimo itandukanye, ndetse n'ahandi hantu hanyuranye, zitwara imizigo kandi iyo mizigo igafasha abantu ubuhahirane.

Abatwara amapikipiki babona amafaranga ahagije kuko abagenzi, baza gutega ayo mapikipiki, bashaka kuva mu gace kamwe, bajya mu kandi, barangiza bakishyura amafaranga.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu ni ubwikorezi bumaze gufata indi ntera mu Karere ka Nyagatare, aho usanga amapikipiki, amagare, imodoka ndetse n'amamoto byikoreye ibiribwa bibivana mu duce tumwe bijyana mu tundi duce.

Umuhanda ugira umumaro ku bantu batwara ibinyabiziga. Mbese muri make woroshya ubuhahirane n'ubwikorezi. Nk'ubu urugero iyo ufite moto, uyitwara mu muhanda ugatwaraho umuntu akagera aho agiye vuba.

Iyo ugeze mu mujyi w'akarere ka Nyagatare usanga hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rmuri ibyo binyabiziga twavugamo nk'amapikipiki, amagare, ndetse n'imodoka. Ni ukuvuga yuko ibyo binyabiziga urugendo rworoshywa n'uko imihanda yaho imeze neza irimo kaburimbo kandi nta misozi ihari myinshi.

Amapikipiki akoreshwa mu bwikorezi butwara abantu ndetse n'ibintu, aho abantu bagenda bagatega amapikipiki kugira ngo bagere aho baba bashaka kujya vuba.

Abamotari batwara amapikipiki usanga baba bishimye cyane iyo bategereje abagenzi kuko ako kazi kabo ka buri munsi kabaha amafaranga ahagije.

Iyo umuntu ashaka guturuka mu gace kamwe ajya mu kandi bimworoheye, areba umumotari akamutwara, cyane ko imihanda yakwirakwiye, hirya no hino, mu Rwanda biba byoroshye.